Mu cyumba cy'ishuri turabonamo ishusho y'umupira, ishusho y'intebe. ishusho y'igiti n'ishusho y'igitabo, byose bishushanyije ku rupapuro rw'umuhondo.

Mu cyumba cy'ishuri harimo intebe, harimo utubati, harimo amashusho agaragaza inyamaswa zitandukanye, harimo n'imyenda.

Muri Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye, harimo imigano, inzira nyabagendwa n'inyubako za Kaminuza. Tuhasanga amashyamba n'ibiti by'amashanyarazi.

Mu isomero harimo ibitabo bitandukanye, iby'ubukungu, iby'ikoranabuhanga, iby'ubucuruzi ndetse n'iby'ubushakashatsi.

Mu nyubako harimo intebe zikozwe mu byuma ndetse no mu mbaho, ariko izo ntebe ntabwo zitondetse mu buryo bwiza, zirajagaraye ntabwo zigaragara neza.